Abakozi bakorera ikigo cya sosiyete y'itumanaho mu Rwanda itanga serivisi zigiye zitandukanye ya Airtel, bakaba bahuriye hamwe aho bari mu gikorwa cy'imurikagurisha, bari kugenda berekana serivisi batanga.

Umugabo ukorera ikigo gitanga serivise zigiye zitandukanye z'itumanaho mu Rwanda cya MTN, akaba yicaye mu mutaka we aho afashiriza abaje bamugana bashaka serivise.

Akazu gatangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ikigo gitanga imiyoboro y'itumanaho mu Rwanda ya MTN, kakaba kari ahantu ku muhanda wa kaburimbo ariko gafunguye nta muntu urimo.

Akazu gatangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'itumanaho mu rwanda ka Airtel kakaba karimo umukozi wako utanga serivisi ndetse n'umukiliya waje gushaka izo serivisi, aho agiye kubikuza amafaranga ye.

Abantu bagera muri babiri aho bari kumwe bakaba bari mu iduka aho umwe afite telefoni ari kwereka undi uburyo bishyura bakoresheje ikoranabuhanga.

Abantu bagera muri babiri aho umwe arimo mbere, undi ari inyuma. Uw'inyuma akaba yambaye isaha ari gukanda telefoni na ho uw'imbere akaba ari kubara amafaranga.

Akazu k'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda cya MTN, kakaba gahagazeho umukobwa waje gushaka serivisi, aho ari kugenda aganiriza umukozi wako.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye higanjemo abagabo ndetse n'abagore bakaba bambaye imyambaro iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umukara, bakaba bari kuganira ukuntu bateza imbere ubuzima.

Ubusitani buteyemo ibyatsi byiza hakaba hari n'abantu benshi bahateraniye, aho hubatse amatente bakaba bari mu nama, amatente atatse mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba ifite n'imiryango myiza cyane, ikaba yubakishije n'amatafari ahiye.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako iri ahantu heza cyane hari akabari bacuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye.

Mu kabari aho bacuruza amoko agiye atandukanye y'ibinyobwa, aho icyo ushaka cyose uza bagahita bakiguha ku mafaranga yawe makeya, udahenzwe maze ukakinywa nawe ukishima ukanezerwa.

mu kabari hakunze kuba hari amoko menshi agiye atandukanye y'ibyo kunywa, aho umuntu agera akavuga icyo ashaka bakakimuha hanyuma akishyurwa amafaranga maze agataha ameze neza yizihiwe.

Isoko ricuruza amoko agiye atandukanye y'imyenda, aho iyi myenda ari ingenzi cyane nkuko umuntu wese ushaka kugura umwenda aza akawugurira aha ngaha.

Iduka ricuruza amoko agiye atandukanye y'ibicuruzwa, aho icyo waba ukeneye cyose waza kukihashakira, haba hari situruwaya ,udupfukamuwa ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Umugabo uri mu iduka ricuruza ibintu bijye bitandukanye, aho afite ikayi ari kugenda yandika abantu yakobye kugira ngo azabone uko abasha kubishyuza amadeni.

Iduka ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'ibicuruzwa, aho icyo wakenera cyose uza hano ukakibona, kuko uyu mugore ahita akikohereza byihuse kandi akaguha serivisi nziza zinogeye umutima.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugiye butandukanye, itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, aho harimo umuganga uri kuvura umwana, aho umwana yazanywe na mama we bakaba bari kumwitaho ngo akire.

Umupadiri uri mu rusengero aho yambaye ikanzu y'umweru n'icyatsi n'agapfukamunwa, akaba yegereye indangururamajwi, aho ari kubwira abakirisitu ngo nimugire amahoro ya Kirisito.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bateraniye mu rusengero, aho bari mu nama buri wese afite ikayi n'ikaramu ari kugenda yandika umurongo pasiteri ari kugenda asoma, ababwira ko bagomba gukurikiza.

Umwarimu wigisha abana biga mu mashuri y'inshuke, akaba ari kugenda abaha ibitabo bagomba gusoma, ku gikuta hashushanyijeho, amoko y'inyamaswa agiye atandukanyekanye, urukwavu, imbata, ihene ndetse n'intama.

Mu rusengero ahateraniye abantu benshi cyane bari gusenga, aho bamwe bapfukamye abandi baryamye bakaba bari gusenga basaba imana bati" Mana yacu tubabarire rwose tubone ibidutuga kandi iy'Isi turimo uyuzuze amahoro n'umugisha. Amena.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yubakishije amatafari ahiye ndetse iriho n'imisaraba igiye itandukanye, ikaba ari inyubako y'urusengero rw'Abagatolika.

Mu rusengero ahateraniye abantu benshi cyane bakaba baje guhimbaza imana, aho abagore bapfukamye imbere bazamura ibiganza bavuga bati "icyubahiro ni icyawe mwami wacu mana."

Abantu bahuriye hamwe yiganjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bakaba bamanitse ikiganza bigaragara ko bishimye ndetse bari mu rusengero, bakaba bari guha Imana icyubahiro.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bahuriye ku iriba, aho baje kubatizwa. None pasiteri wabo ahagaze mu mazi, yambaye karuvati, ari kugenda afata umuntu, akamudubika mu mazi, hanyuma agahamagaza undi.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba iriho umusaraba bigaragara ko ari abapadiri benshi bahuriye hamwe, bakaba bari mu gikorwa cyo kwimika umushumba mukuru.

Abantu bagiye batandukanye bicaye hamwe, aho bagiye bashyiramo intera ya metero hagati y'umuntu n'undi, bigaragara ko bari mu nama ariko birinda icyorezo cya korona ya virusi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere ikaba yubakishije amatafari ahiye. Ni inyubako y'urusengero rw'abagaturika aho iri ahantu mu karere ka Nyagatare.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, akaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri, ikaba isakaje amabati y'umutuku ndetse ikaba ifite n'ubusitani bwiza cyane buteyemo indabyo n'ibiti birebire.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, isakaje amabati y'umutuku ndetse ikaba ifite ibikuta biteye irangi ry'umweru ndetse ifite n'urugo rw'umukara.

Inyubako nziza cyane kandi nini, itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye by'umwihariko nk'izo gusura, ikaba ari inyubako ya hoteli, aho hari ahantu heza cyane ho kwicara.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho iteye amarange y'umweru ku bikuta, mo imbere hakaba harimo igitanda cyiza cyane ndetse n'imisego myiza cyane,

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho mo imbere harimo udutafari tugiye dutandukanye duhiye twubatse iyo nyubako ndetse n'amadarashya abantu buririraho iyo bari kugana muri iyo nyubako.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, bikaba bigaragara ko iyi nyubako yubakishije amatafari ahiyi ndetse ikaba ifite n'inzugi z'umweru n'ibirahuri byiza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iteye amarangi y'umweru ku bikuta ndetse n'imiryango ikaba isa umukara. Hakaba harimo amapave, bigaragara ko batanga serivisi zigiye zitandukanye.

Mu mahoteli basigaye batumiza intore kabuhariwe, zikaza kubyinira abantu baje muri ayo mahoteli kunywa, maze bakishima bakanezerwa, kubera ukuntu izo ntore ziba zirimo zihamiriza.

Muri hoteli haba hari abantu babyigiye bagenda bifashishwa mu kwakira abaje babagana, aho babatwaza amafunguro bakayabagereza ku meza hanyuma bakabakira.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho isakajwe amabati y'umutuku, ikaba ifite amadirishya n'inzugi by'umutuku, ikaba ifite imbuga ishashemo amapave n'ubusitani bwiza.

Isoko ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'ibiribwa aho ibyo waba ukeneye byose yaba imboga, yaba imbuto wanyarukira hano ukaza kubihahahira kuko babigurisha ku giciro gito.

Ni isoko ryahuriyemo abantu benshi cyane bagiye batandukanye aho harimo abacuruzi ndetse n'abaguzi, bakaba bari gucuruza ndetse bari no kugura inkweto nyinshi zigiye zitandukanye, abandi baje kuzihaha.

Amakabutura agiye atandukanye ari ahantu mu isoko bigaragara ko hacururizwa imyenda igiye itandukanye, aho iyo waba ukeneye yose uhanyarukira bakayiguhera amafaranga make ubundi nawe ugatera imbere.

Moto ziri kugenda mu muhanda w'igitaka ahantu mu isoko bigaragara ko bacuruza amoko agiye atandukanye y'ibiribwa ndetse n'imyambaro. Igihe cyose waba ubikeneye wanyarukirayo bakabiguha.

Ahantu mu isoko bacuruza amoko bagiye atandukanye y' imyambaro, aho iyi myambaro ari ingenzi cyane, kuko yifashishwa n'abantu batari bake, bakayambara hanyuma bakamererwa neza.

Ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa moto giparitse ahantu muri shitingi bigaragara ko ari mu isoko aho bacururiza imyambaro igiye itandukanye, nyiracyo akaba yaje kuyicuruza.

Isoko ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'imbuto ndetse n'imboga, aho byose biba bihari ku buryo icyo wakenera cyose uza kugishakira hano, ugahita ukibona byihuse.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'uruziga ikaba ifite ibirahure byiza cyane, iyi nyubako rero ikaba ari inyubako ya resitora aho bacuruza amoko agiye atandukanye y'ibyo kurya.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga by'ibinyamitende bigiye bitandukanye, aho harimo moto ebyiri zikaba ziri kugenda ndetse zitwawe n'abantu babyigiye.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendwamo n'imodoka itwagwa n'umuntu ku giti cye, ikaba iri mu mabara y'umukara, uyu muhanda ukaba ari mwiza cyane kubera ko utuma umuntu agera yagiye byihuse.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo na moto itwawe n'umugabo, aho uwo mugabo yambaye agashati k'umweru, akaba ari kugenda yitwariye moto ye, hirya hari inyubako nziza cyane ndetse umuhanda ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendwamo na moto itwaye umugore, ukaba ari umuhanda mwiza cyane, wubatswe mu buryo bugezweho, ukaba ukikijwe n'ibiti birebire, bitanga minsinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Umumotari uri kugenda mu muhanda, ahetse umugenzi, aho bari kugenda kuri moto itari iy'abamotari ariko nziza cyane, ifite amareyo matoya, ameze nkaho ari ay'igare.

Moto iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ika itwawe n'umusore wambaye kasike y'umutuku ndetse uwo muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti birebire bigiye bitandukanye ndetse n'ubusitani.

Moto ni kimwe mu binyabiziga byiza cyane, aho muri iki gihe haje ibyiza bigezweho bigendera kuri moteri, aho umuntu akifashisha ari kujya iyo ashaka maze akagerayo byihuse.

Umugabo ugiye kujya ku igare wambaye ikote ry'umutuku n'ingofero y'umutuku, akaba afite n'akantu k'umuhondo mu ntoki, agiye kurira moto ye kugira ngo age mu kazi kubera ko imufasha kugerayo vuba.

Umugabo uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo asunitse ibitoki ku igare, bigaragara ko avuye kubirangura none akaba agiye kubicuruza kugira ngo arebe ko yakuramo umusaruro.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho harimo moto itwaye umugenzi, uwo muhanda ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru, turi kugendwamo n'abagore babiri.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendwamo n'imodoka y'umukara, aho iyi modoka iri gutwarwa n'umushoferi ndetse uwo muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga igihe bitandukanye, aho muri ibi binyabiziga twavugamo nka moto, hakaba hari abamotari bazo babiri, umwe ayiriho undi ayihagaze iruhande.